Icyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, gisizemo amarangi y'umweru n'ubururu, kirimo ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi barembye, kirimo n'inzitiramibu.

Abantu bahagaze hagati mu kibuga, barimo abagore babiri n'abagabo babiri, umwe ari gukaraba intoki mu buryo bwo kwigirira isuku no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Icyumba cyo mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo ibitanda bibiri n'utubati turimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Abantu benshi bari imbere y'amarembo y'ibitaro, bahagaze muri kaburimbo, igana ku bitaro, iruhande rwa kaburimbo hateye, ibiti byinshi by'inzitane.

Ababyeyi benshi b'abagore bicaye imbere y'inyubako ikorerwamo ubuvuzi bazanye abana babo kubavuza bamwe barabateruye abandi bari kubonsa.

Icyumba cy'inyubako gikorerwamo ubushakashatsi bw'imiti, irimo abantu bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa, bari gukora ubushakashatsi.

Abaturage benshi bicaye hamwe, bari mu kiganiro, bijyanye no kwita ku buzima bw'abana, imbere yabo hari umuganga w'umugore, uri kubaganiriza.

Abantu benshi, bitabiriye amahugurwa, ajyanye no kwita ku buzima, hari ababyeyi b'abagore batatu, bahagaze hamwe, bafite igihembo bahawe mu ntoki.

Imiti iri mu dusahane nyinshi itandukanye ya gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iruhande hateretse agasekuro gatoya n'umuhini byifashishwa mu gusekura imiti.

Mu cyumba cy'isuzumiro, kiririmo inyubako ikorerwamo ubuvuzi, harimo umubyeyi w'umugore uteruye umwana, imbere ye hicaye umuganga uri kuri mudasobwa.

Hanze y'inyubako ikorerwamo ubuvuzi hari intebe zicawemo n'abarwayi bategereje kuvurwa, hari umuganga ufashe ikayi mu ntoki wambaye itaburiya, inyuma ye hateretse ameza ariho mudasobwa.

Abana bicaye imbere y'ivuriro n'umubyeyi uri kugenda agana mu muryango w'ivuriro, imbere y'ivuriro hateye ibiti n'iruhande rwabyo hateretse ikigega cy'amazi.

Abaganga benshi bari kumwe n'abaturage bari kubapima indwara bitwaje ibipapuro byo kwandikaho n'imiti itandukanye yo guhereza abarwayi.